Abana bane bahagaze bareba hejuru, bateze ibiganza byabo bari gusukirwa amazi n'umugabo mu gikombe, ayo mazi akamanuka ajya mu ibasi isa oranje.

Abantu b'igitsina gore bane harimo umwe w'umujyanama w'ubuzima, ufite ikintu ari gupimisha aba bantu gipima indwara, kireba uko amasoso yabo atembera mu mubiri, bambaye impuzankano y'akazi.

Abantu biganjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, aho bicaye mu nzu bari kuganira ku ngingo nyamukuru biteretse amacupa y'amazi.

Umusaza wicaye ku njerekani abona ko yishimye, uje ku iriba kuvoma amazi ku mugezi, aho afite ikivomesho cye ubona ko yishimiye rwose kuza kuvoma ku iriba rishyashya babegereje.

Umwana w'umukobwa ukiri muto wambaye agakanzu kadoze mu gitenge, aho ari gufata igicupa kirimo amazi akaba intoki ze nk'uko bikwiye, kugira ngo abashe kuba yagira isuku.

Umwana wambaye ikabutura ndetse n'agashati gasa icyatsi, urimo gukaraba kuri kandagira ukarabe, akaba arimo anoza isuku yari avuye mu bwiherero cyangwa se yari agiye kurya.

Imbaga nyamwinshi igizwe n'abadamu bishimye ku bw'ibyo bagezeho, kubwo kurera neza kandi bagakuza, bakaba bari kubyina rwose ubona ko banezerewe, impande yabo hakaba hari intebe z'umweru ndetse n'imwe y'umukara.

Abantu bicaye hamwe baganira ku ngingo runaka bafite mudasobwa imbere yabo, harimo ndetse n'abagiye bacomeka za mudasobwa zabo ku gicomeko ndetse hari n'umugabo wifashe mu mutwe.

Ivomero, umwana w'umukobwa waje kuvoma amazi yitwaje indobo nk'igikoresho batwaramo amazi, aho iri vomero basunika bamanura kugira ngo amazi azamuke.

Umubyeyi waje kogereza umwana we ku ivomero, aho undi mubyeyi ari kumwe n'umwana we baje kuvoma ndetse hari n'undi mwana usa nk'aho ari gukaraba intoki ku ivomero.

Igishushanyo kigaragaramo umuntu w'umukobwa, arimo arasaba ko abantu bajya hanze bakareba abandi bafatanyabikorwa mu kugira ngo bateze imbere imirire myiza ndetse n'imibereho myiza mu baturage.

Umwana uri ku ivomero ubona ko yishimye yanezerewe, afashe ikivomesho kugira ngo amazi ajyemo neza, aho ibi bifasha abaturage mu kubona amazi hafi kandi abegereye.

Umuturage wagiye kuvoma kw,ivomero aho afite cy,izwi nkindobo ndetse na kajerekani aho yambaye igishura cy,iza gisa umutuku akaba yaje gufata amazi yakwifashisha muguteka.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bivanzemo igitsina gore n'igitsina gabo, aho bahuriye mu nzu imwe runaka, aho bo bafitanye inama n'umukuru, ukuriye ibijyanye n'imibereho myiza mu buvuzi.

Umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore, ndetse umugore utwite, bari kuganirirwa n'umujyanama w'ubuzima, bicaye bose ku ntebe, ndetse imbere yabo hari intebe imwe iriho impapuro, umujyanama w'ubuzima akaba arimo arabafasha kubigisha, ku bijyanye n'imibereho myiza y'uko bazafata neza umwana bateganya kwibaruka.

Imodoka iri mu muhanda ubona ko igemuye ibiribwa runaka ku mushinga ugenewe gufasha abaturage mu kubagezaho inyongeramusaruro cyangwa se ibyo bakoresha batera ibihingwa byabo.

Umuganga uri gufasha umubyeyi ufite umwana urwaye ubugendakanwa, aho arimo aramuha umuti umukiza ndetse unamufasha kujya agira apeti mu byo arya.

Umwana w'umunyeshuri urimo gukaraba yifashishije ikizwi nka kandagira ukarabe, aho yaje kunoza isuku kuko yari agiye kujya kurya, kandi agomba kurya anoze neza mu biganza.

Ikintu gifite umuzenguruko munini, kiri hagati mu mashyamba, kirimo amazi hagati yacyo, gifite amatiyo yoherezayo amazi impande zacyo hose.

Imbaga nyamwinshi yiganjemo abagore ndetse n'abagabo, aho turi kubona umuntu ushinzwe umutekano, aho bahurijwe hamwe no gushishikariza abaturage kujyanye no guhinga akarima k'igikoni.

Umugore uhagaze imbere y'imbaga nyamwinshi arimo arayiganiriza ku bijyanye n'imibereho myiza uburyo abantu babana, akaba ari kubaganiriza bicaye mu kidari kiranzwe n'ibirango by'idarapo ry'igihugu.

Abantu bahuriye hamwe ku kigo cya Mayange aho baje kugirwa inama nk'abaforomokazi, babwirwa n'umunyamahanga yuko ibikorwa bakora byo gufasha abaturage mu buzima bwa buri munsi ari byiza.

Abantu bagiye ku ivomero rishyashya, bahawe n'ikigo cyita ku mpunzi, aho baje kuvomesha indobo higanjemo izitukura ndetse n'isa ubururu, aho babona ko banezerewe.

Imbaga nyamwinshi ihuriye hamwe, igizwe n'abaforomokazi ndetse n'abaforomo. Aho bishimiye umuterankunga baje kubaganiriza ku gikorwa cyiza bakorera abaturage.

Abantu bahurijwe hamwe bagirwa inama ku bijyanye n'imibereho myiza, aho uri kubagira inama yambaye impuzankano y'abaganga, bakaba bicaye bamuteze amaso ndetse banishimiye ibyo ari kubagezaho.

Ivomero ryagejejwe ku baturage aho risa icyatsi rikaba rifite ibivomesho bitatu, aho turi kubona umufundi arimo arabafasha kubereka uko iri vomero rikoreshwa.

Imbaga nyamwinshi igizwe n'abangavu ndetse n'urubyiruko, aho abantu bakuru baje gufasha abana mu by'imirire myiza, babaha amata bakoresheje inkongoro.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi, wambaye agapfukamunwa urimo uratera urushinge umuturage wambaye umwenda w'umweru uriho amadarubindi, ndetse nawe yambaye agapfukamunwa.

Abana babiri basutamye imbere y'umugezi aho ubona ko banezerewe, barimo barakaraba bagira ngo banoze isuku ndetse birinde n'indwara zandurira mu mwanda.

Abantu bicaye hamwe bari kugirwa inama bahabwa ibiganiro n'umukuru wabo, ababwira ku bijyanye no kwita ku bana kuko aribo Rwanda rwejo, harimo abadamu ndetse n'abagabo.

Umwana wagiye mu mugezi hagati ashaka amazi, aho yashyizemo amaguru igice cyose cyayo cye ndetse akanubikamo ikivomesho cye kugira ngo avome.

Ikirango cy'ikigo runaka, kirimo umubumbe w'isi, mo imbere y'uwo mubumbe w'isi hakaba harimo umubyeyi yateruye umwana we ndetse bakaba wagaragiwe n'igihingwa tuzi nk'ingano.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye mu mugisharagati, harimo ushinzwe umutekano, imbere yabo hicaye umwana arimo gukina, bari kubwirwa ijambo n'umugabo ufite indangururamajwi imbere yabo.

Abayobozi batandukanye bahuriye hamwe, bahujwe n'igikorwa runaka, aho bafite amadarapo mu cyumba barimo, harimo idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'amazi bari kunywa bayobeza umuhogo.

Abantu bahuriye hamwe, aho baje gufasha abana mu mibereho myiza biganjemo, urubyiruko ndetse n'abashinzwe umutekano kandi n'abashinzwe imibereho myiza y'abaturage.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga aho harimo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi, igitanda umurwayi aryamaho, indorerwamo ndetse na televiziyo.

Abantu bagera muri barindwi, bari mu rutambike rusa ubururu n'umweru; aho bari gufata ifoto y'urwibutso, berekana ko bishimiye ibyo bagezeho.

Ibikorwa bahuriye hamwe, aho baje mu nama yo kugenzura ibigendanye n'indwara zandura n'izitandura, bihurijwe hamwe na Afurika yose ndetse bakareba n'uburyo babyirinda.

Abantu bahuriye ku kumugezi, aho baje kuvomera kuri ya migezi ya kera, batondetse ibivomeshwa byabo byinshi bategereje ku murongo, aho umwe agerwaho hakurikiraho undi bitewe n'igihe baziye.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bahuriye hamwe, aho baje gufata ingamba zitandukanye ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, aho bari kuganirizwa ku buryo bazajya berekamo abaturage uko bita ku mirire myiza.

Umubyeyi usutamye uri imbere y'abana bambaye imyenda isa oranje urimo kubanywesha amata mu nkongoro, umubyeyi wambaye amadarubindi, ingofero ndetse n'impuzankano isa kake n'umweru.

Imbaga nyamwinshi y'abantu biganjemo abategarugori ndetse n'abagabo, aho bafashe ikirangantego cy'ikigo runaka, bari kwizihiza kuba cyarabafashije kigatuma biteza imbere.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bahuriye hamwe bari kugirwa inama ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe, aho bateranyirijwe hamwe n'umudamu uri kubabwira uko bakora mu kugenzura abantu bahohotera abantu bafite iki kibazo.

Abagore batatu bicaye barimo baraganira, abagore babiri muri bo bateruye abana, umwe nta mwana afite bisa naho barimo barabagira inama ku bijyanye n'imyororokere ndetse n'uburyo bareramo abana babo.

Umuntu wifashe mu maso n'agatambaro k'umweru, wambaye ingofero y'ubudodo, wambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru, ubona ko wagira ngo afite ibibazo, inyuma ye hakaba hahagaze umugabo.

Umukobwa wicaye mu ntebe wambaye umupira usa umukara, ubona ko anezerewe yishimye aho arimo aravuga ku bijyanye n'indwara zifata mu mutwe.

Umwana mutoya wifashe ku mutwe yirengeje amaboko aho uno mwana ubona ko ababaye, atishimye kuko arimo ararira amarira yashotse ku matama ye.

Inzu y'ibitaro bya Munini aho ino nzu yubatswe mu mabara asa umweru, ifite amadirishya agiye yegeranye abiri abiri ndetse ikaba izengurutswe n'ubusitani bwiza butatswe n'ibyatsi.

Umukobwa wambaye ingofero, impuzankano isa umutuku yicaye ku ntebe ubona ko yihebye, uri kumwe na mugenzi we wambaye imyenda y'umukara ndetse n'amadarubindi, urimo kumugira inama.

Umuntu ufashe mugenzi we ku kuboko aho ameze nk'uri kumugira inama cyangwa se amwihanganisha, urabona ko undi nta we atishimye habe na gato ahubwo undi arimo aramubanisha.

Umuntu wicaye hasi aho uyu muntu yambaye ubusa bigaragara ko batishimye na gato kandi ameze nk'uwakubiswe wagira ngo afashwe nk'umucakara,

Umugabo wegamye ku gikuta ubona ko igihande kimwe hari igicucu ikindi kirimo izuba, urimo uraramye uri kureba hejuru mu zuba, wambaye ishati isa umuhondo.

Ikigo gishinzwe abana ndetse n'abakuru, bafite ibibazo byo mu mutwe, aho kibafasha gukemura ibibazo bitandukanye, ndetse harimo n'ibyorezo bitandukanye.

Abana bambaye impuzankano yo ku ishuri, aho iyi mpuzankano isa icyatsi, ndetse bakaba bishimye banezerewe, kubwo kuba bafashijwe n'abantu babarera ku ishuri.

Umuntu wafashwe n'inzego z'umutekano bakamwicaza hasi ndetse bakamwambika n'iminyururu ku maboko, aho yerekanywe afite n'ibyo yari yabashije kwiba.

Abantu bahuriye hamwe bafite impamyabushobozi y'ibyo bagezeho, higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bambaye impuzankano isa umukara, bari imbere y'imodoka ibatwara ibageza aho bajya.

Umugabo wambaye umupira usa umuhondo kandi uy mugabo ubona ko wanezerewe urimo guseka, aho ari kuvuga kubijyanye n'indwara zifata umwanya w'umutwe.

Ikirangantego cyerekana ukwezi tugezeho ku kwa Cumi kirimo igishushanyo cy'umutwe w'umuntu, aho ari umunsi mukuru wo kwizihiza indwara z'abantu zifata mu mutwe.

Abantu bahuriye hamwe, aho higanjemo igitsina gore n'igitsina gabo, bari imbere y'ameza, yambaye igishura gisa umukara gitatsweho n'impapuro ndetse n'imikandara isa umutuku.

Abana bahurijwe hamwe n'umukecuru urimo kubagira inama, kandi abana batuma umukecuru yumva yishimye, kuba abona ko atari wenyine.

Abantu bari gufata ifoto biganjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, aho bavuye mu nama yo kureba uburyo abaturage babaho neza mu mibereho myiza batabangamiranye.

Umuntu w'umusaza ugaragara nk'aho, ari ba bantu bavuga ko bafite ikibazo cyo mu mutwe, aho yambaye imyenda y'incwabari ndetse ubona ko amaze igihe atoga.

Umuntu wasamye, aho yakuwemo iryinyo rye, turuzi gihanga ndetse n'andi menyo kandi ubona ko havuyemo amaraso, muganga ari gukoresha igikoresho cyabugenewe.

Imashini cyangwa se ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma umuntu waje kwivuza indwara zo mu kanwa, harimo no kuba bamwoza mu kanwa cyangwa se bamuhoma amenyo.

Abantu babiri bari kumwe, umwe w'igitsina gore, n'undi w'igitsina gabo, bambaye imyenda y'umweru, ubona ko barimo barogesha amenyo yabo ikoranabuhanga ry'akadodo, aho ubona ko byabanejeje cyane.

Umwana wasetse, ufite uburoso bw'amenyo imbere ye, aho arimo aragaragaza ko ari kwiborosa, ibizwi nko koza amenyo, aho arimo aranoza isuku.

Icyumba k'ivuriro kwa muganga aho abarwayi bafite ibibazo by'amenyo bafashirizwa kandi muganga n'umurwayi bakaba batagira aho bahurira ku buryo umwe muri bo yakwandura.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga, gifasha abantu bafite ibibazo by'amenyo, kuba babahindurira amenyo bakabaha amenyo meza, kandi afite ingano n'iyayo bari bafite.

Umuntu w'umugabo uhagaze ahantu hasa umuhondo, wambaye agapira k'umweru, ubona ko yishimye urimo araseka; ufite ubwanwa, ugaragara nk'aho anezerewe.

Abaganga bambaye impuzankano y'akazi, aho bari kuvura umurwayi ufite ibibazo byo mu kanwa, ubwo umwe w'igitsina gabo ari kuvura undi w'igitsina gore amufatiye.

Umuntu uryamye ku gitanda yasamye bimurasuzumwa mu kanwa mu menyo ye bamwogereza amenyo neza ababishinzwe umudamu w'umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano y'abaganga.

Umukobwa uri kureba mu kirahure wambaye isengeri isa umweru ukenyeye isume mu mutwe we ufite icyogesha amenyo ari koza amenyo ye aseka.

Umuntu w'umugabo ufite amenyo asa umweru ndetse ufite n'ubwanwa, aho arimo arakoresha urugero rwaje rwo gukoresha akadodo mu koza amenyo kuko byagaragaye ko hagati y'amenyo, ikizwi nk'uburoso kitahakesha.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, ahazwi nko kwa muganga w'amenyo, aho turi kubona igitanda umurwayi yicaraho ndetse n'ibikoresho aba yabasha gushyiramo imyanda yose bamukuye mu kanwa.

Icyumba cy'ubuvuzi cyerekeye amenyo, aho turi kubona igitanda aho umurwayi aryama ndetse n'intebe umurwaza yicaraho ndetse kandi n'intebe umuganga yicaraho, aho imbere yabo turuzi ibyuma bitandukanye byifashishwa mu kuvura amenyo.

Abantu b'igitsina gore babiri umwe wambaye impuzankano isa umutuku, undi yambaye iy'ubururu bukeye bafite indangamanota mu ntoki ubona ko banezerewe batsinze ibyo biyemeje kugeraho.

Umwana wambaye agapira k'icyatsi uri kumwe n'umuganga ugiye kumuvura wambaye impuzankano y'akazi isa ubururu ndetse n'ibifata ku maboko bisa umweru ufite ibikoresho wagiye kumuvurisha mu ntoki.

umuntu w'igitsina gore ufite imbehe iriho indyo zitandukanye ziganjemo ibirinda umubiri ndetse n'ibiterambaraga aho agiye kubirya ubona ko bari gukangurira abantu kujya bafata indyo yuzuye.

Umubyeyi wambaye impeta ku kiganza cye akaba yambaye agapira ka oranje ndetse n'amadarubindi, akaba ari kwitabwaho n'ababugenewe ari bo baforomokazi ukaba ubona ko anezerewe ku bwa serivisi ari guhabwa.

Umugabo wicaye mu ntebe yambaye ishati y'ubururu, wambaye n'agapfukamunwa arikumwe n'umukobwa wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa nawe ndetse afite n'igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye, bari mu busitani bugizwe n'ibiti by'imbuto.

Umuvuzi waje gufasha umuntu ukuze, umugabo aho arimo kumupima indwara zitandukanye areba uko amaraso atembera mu mubiri ndetse akamufasha kumva ko amerewe neza atari wenyine.

Umusheshakanguhe ufite ikaramu mu ntoki, wambaye amadarubindi, ufite imvi zuzuye umutwe wose, urimo urasoma imvaho, amenya aho amakuru ageze.

Umusaza urimo kwereka umuforomokazi waje kumufasha, amashusho y'ibyo bashaka kwigaho, umusaza ubona ko rwose ari mu za bukuru ndetse bafite n'irangururamajwi imbere yabo.

Umuntu w'igitsina gore uri gufasha umusaza kuba yakomeza gutuma amaraso atembera neza mu mubiri, mu kumuha ibikoresho by'ingenzi yifashisha mu kugorora imitsi ye.

Umuntu uri gufasha umusaza gutambuka, aho uyu musaza yambaye umwenda usa shokora ndetse wambaye n'agapfukamunwa, aho ari kumufasha mu gutambuka ngo atagwa.

Abasheshe akanguhe babiri, barimo umwe wambaye amataratara, aho bambaye impuzankano izwi nk'imishanana, imyenda gakondo y'abanyarwanda, aho bari gukoma mu mashyi bishimira ibyagezweho.

Abana baje gusura, abantu bakuze babagira inama ndetse, banababwira yuko nta kwiheba mu buzima. Aho aba bantu bakuze baba mu nzu zabo zihariye.

Abaturage bahuriye mu gikorwa kizwi nk'imodoka zahawe akaruhuko kuri uwo munsi, aho abaturage bahurira hamwe bagakora imyitozo ngororamubiri, yaba iyo kwirukanka, ndetse n'iyo kugendera ku magare.

Usheshe akanguhe w'umugabo, wambaye indorerwamo, ufite telefone mu ntoki, arimo arasoma urwandiko, ari kumwe n'umudamu, nawe ubona ko akuze, aho bafite n'izindi mpapuro zibateretse imbere, ku meza.

Umuntu wicaye ku mukeka w'igitsina gore urimo urakora imyidagaduro ngororamubiri, wambaye inkweto zifunze, ipantaro, agapira gasa ubururu ndetse bigaragara ko arimo abikorera mu nzu y'iwe.

Abantu b'igitsina gore bafite ikoranabuhanga mu ntoki, aho bari gusangiza amafoto atandukanye berekana aho bari gufasha abakuze kumenya aho isi igeze.

Umudamu uharaze uruhanga rwuzuye imvi, urimo akora imyidagaduro yifashishije udukoresho dusa icyatsi, wambaye agapira k'umweru ndetse ukabona ko anezerewe.

Abagabo babiri bambaye imyenda yo gukora imyidagaduro irimo iyo hejuru isa umweru, harimo umwe muri bo warengejeho agapira k'umukara, bafite amacupa y'amazi mu ntoki.

Umukambwe uri guterurwa n'abana be babiri, aho bari kumufasha mu guhaguruka ava ku buriri, bamwerekera uko yabasha gutera intambwe yigira imbere, kugira ngo agende.

Abasheshakanguhe biganjemo igitsina gore, bicaye hasi ubona ko bari kugirwa inama, inyuma yabo hari intebe z'umweru ndetse bari ahantu mu bihingwa aho turi kubona kubona insina z'ibitoki.

Umuntu wo ku kigo nderabuzima wasuye abantu bakuze aho bahurira, ari kubagira inama ku bijyanye n'imibereho myiza kandi abasha kubabanisha kuko baba bakeneye umuntu ubaba hafi.

Umugabo usheshakanguhe, urimo gufashwa kugorora imitsi ye n'agakoresho kabugenewe kameze nk'umugozi, ako turuzi gasa umuhondo, yicaye ku buriri bufite amashuka asa umweru.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bagizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo umwe ushinzwe umutekano bari gufata ifoto y'urwibutso, aho bamaze kuganira ku ngingo nyamukuru runaka.

Umubyeyi mukuru uzwi nka Jeannette Kagame aho arimo aratanga inama ku baturage ababwira ibyerekeranye n'indwara zifata mu mutwe, ababwira uburyo bajya banabasha kubana n'abazifite.

Umuntu uri mu kirangantego cyerekana gufashanya, mu kuvuga muri rubanda, kuko bifasha mu guteza imbere umuntu, akaba yakumva ko atari wenyine kandi akisanzura.

Imizenguruko itandatu igizwe n'utuzu dutoya, aho ifite umuzenguruko umwe mo imbere yayo, igaragaza uburyo imibereho myiza yagakwiye kugenderwaho, abantu bagiye babikoresha mu buryo bunyuze.

Ikigo gishinzwe kugenzura indwara zandura n'izitandura, kizwi mu nyajwi ya N C D, aho kiri gukangurira abantu kibamenyesha indwara bakwirinda kurusha izindi.

Abantu bari kumwe bahagaze ku murongo, higanjemo abagabo batatu ndetse n'abagore batatu, aho bari bari kuganira ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, mu bigendanye n'indwara n'uko zikira.

Imbaga nyamwinshi y'abantu biganjemo igitsina gore, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru urimo kubafotora, aho bahurijwe hamwe n'igikorwa cyo gushyikiriza abakobwa ibikoresho by'isuku.

Urupapuro rugaragaza amabwiriza agenderwaho, mu kwivura cyangwa se mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye z'ibyorezo, zugarije abaturage, aho igihugu cy'u Rwanda kiba kibungabunga icyakwangiza umuturage wese.

Umubyeyi uri imbere y'imbaga nyamwinshi, aho afite indangururamajwi ndetse ubona ko ari kuganiriza abantu ku ngingo yo gufata neza ubuzima bwabo kandi bakarya indyo yuzuye.

Ikirangantego kigaragaza ububasha cyangwa se uko abantu bakwirinda indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, harimo nk'iyitwa kovidi cumi n'icyenda, yandurira mu matembabuzi.

Ivuriro rigizwe n'ibitanda akameza kifashishwa mu kuzengurutsa ibikoresho bigiye bitandukanye mu ivuriro, imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, aho turi kubona igisenge cyiza gitatse neza, kigiye gifite na gahunda yo kubafasha kumva ubukonje mu gihe babukeneye.

Inzu igeretse inshuro zigera muri enye kuri eshanu, igaragiwe n'ibyatsi tuzi nk'imikindo, inzu y'ubuganga ifite amabara y'umweru ndetse n'ibirahure imbere yayo.

Inzu yanditseho amagambo asobanura ko ari ikigo gifasha abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, gikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo zizwi nk'imikindo.

Icyumba cyo kwa muganga, aho dufite uburiri buriho amashuka asa umweru, ndetse ateretseho ibinini ndetse n'imiti, imashini zifashishwa kuvura umurwayi mu buzima bwa buri munsi, ikirangantego, igishushanyo kiri hejuru y'igitanda.

Umuryango usa umweru wuguruye, aho turi kubona mu nyubako mo imbere aho abaganga bavurira abarwayi, akameza kajyaho ibikoresho abaganga bifashisha bari kuvura abarwayi.

Umudamu wambaye impuzankano y'abaganga, urimo urafasha umubyeyi uryamye ku gitanda gifite amashuka asa ubururu, aho arimo aramufasha kumwumvira uko amaraso ye atembera neza mu mubiri.

Inzu ikorerwamo imyidagaduro itandukanye, aho haba hari ikibuga cyabugenewe cyo gukoreramo imyitozo itandukanye ndetse n'ibyuma bya ruzungu byifashishwa mu gukora iyo myitozo.

Inyubako yo kwa muganga aho bita Kigina, ifite amabati asa ubururu, imbere y'inyubako bakaba hahagaze umubyeyi uhetse umwana, ufite igishura cy'umweru imbere ye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibigendanye n'imiti gakondo, imiti isanzwe, aho n'abaganga bagurira ibikoresho bagenda bakoresha mu kazi harimo impuzankano ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye yaba iya gakondo cyangwa se ya ruzungu, aho izwi ku izina ry'ubuzima bwiza ndetse ikaba ifasha abaturage kubona serivisi zo kwa muganga zinogeye...

Umuryango ufite amabara y'umweru ndetse n'igikuta gifite amabara y'umweru, hejuru y'umuryango hakaba hari icyapa cyerekana ko bahakorera gusuzuma ndetse no kubaga.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ubuvuzi aho harimo igitanda umuvurwa aba aryamyeho, ndetse n'intebe umuvuzi aba yicayeho, aho hari ndetse n'aho bacomeka ibikoresho bimwe na bimwe.

Igitanda kiryamwaho n'umurwayi aho bamusuzumira, impande ye hari amamashini atandukanye yerekana uko umubiri we umeze ndetse n'uko amaraso atembera.

Ibitaro bizwi ku izina ry'umwami witwaga Faisal, aho biherereye mu mujyi wa Kigali, tukaba turi kubona inyubako y'ibyo bitaro, aho abaturage bari kugenda bajya kwivuza kwa muganga.

Icyumba gikorerwamo kubagwa kw'abantu aho hari igitanda umurwayi aryamaho, imashini zimumurika mu gihe bari kumukorera isuzuma ndetse n'imashini zerekana uko umubiri we umeze.

Icyumba cyo kwa muganga aho dufite ibitanda bibiri, akameza hagati y'ibitanda, aho abarwayi baryamye kuri ibi bitanda basuzumirwa n'abaganga babugenewe, buri munsi uko bugenda bwira bunacya.

Icyuma cyifashishwa n'abiganjemo urubyiruko rwo mu myaka yo hasi, icyo bita ikicundo gifite amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu giteretse mu busitani bwiza burimo jaride igizwe n'indabyo.

Inzu ushinzwe kuvura indwara z'ibyorezo mu Rwanda aho hano uza kwikingiza indwara wenda waba wumvise ibibazo ufite muri wowe ukumva hari nk'indwara ya kanseri waba ufite.

Umugore wambaye impuzankano y'abaforomokazi ndetse n'agapfukamunwa, urimo uraca mu ivuriro hagati aho turi kubona igitanda kiryamyeho umurwayi.

Imbaga nyamwinshi iri gufata ifoto y'urwibutso imbere y'ibitaro bya Rwamagana aho bishimiye ko ababateye inkunga babubakiye ibi bitaro ndetse bakaba bagiye gutangira kubikoresha.

Inyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, inyubako igizwe no hasi hasa ubururu, ibikoresho bicaraho barya umunyenga, ikaba igizwe n'igisenge gifite amatara abonerana asa umweru.

Inzu y'ibitaro igenewe kujya ivurirwamo abaturage baturiye aka gace ndetse n'abo mu nsangano ndetse ino nzu ikaba yubatse mu mabara ya oranje kuko ari na yo yiganje kurusha andi.

Imashini ri kwigwaho n'abaganga bareba uko ikora ndetse n'uburyo izajya yifashishwa mu gukemura ibibazo by'abarwayi hifashishijwe uburyo bwa sisitemi igezweho.

Inyubako yo kwa muganga yiganjemo amabara abonerana asa umweru, ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho umuganga aba ajya agasuzuma umurwayi we neza, ku buryo ataha nta mbogamizi.

Icyumba cyo kwa muganga ahazwi nko mu isuzumiro, aho turi kubona amaraso y'ubwoko bugiye butandukanye, utubati abikwamo ndetse n'umuryango bacamo binjira muri icyo cyumba.

Inyubako ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye, aho harimo akayira abanyamaguru bacamo gakoze igishushanyo cy'ingombajwi D ndetse bafite n'aho baca imvura yaguye.

Abaganga benshi bahuriye hamwe aho baje kuvura bambaye bikwije impuzankano y'ubwirinzi bukomeye kandi buhambaye aho bafite abarwayi baryamye ku bitanda.

Ivuriro rigizwe n'inzugi zifite ibirahure birebire, zikaba zigizwe n'amatafari ahiye, hakaba imbere yaho hari umuhanda uciyemo uturongo tw'umweru ndetse n'indabyo impande y'inzu.

Inzu yifashishwa mu kuvura abarwayi izwi nk'ibitaro, cyangwa se aho bita kwa muganga, aho abarwayi baza baje kwivuza ndetse no kubona ubugenzuzi mu bijyanye n'umubiri wabo.

Icyumba cyifashishwa n'abaganga ndetse n'abarwayi mu kubazwa uko biyumva, aho umurwayi yicara ku ntebe isa ubururu nini, umurwaza cyangwa se umuganga akicara kuri iriya ntoya isa nayo ubururu.

Ibitaro byo mu Karere ka Shyira, aho bari gukoresha inzu zigezweho mu iyi minsi, mu kwifashisha kuvura abaturage ku buryo baba bafite aho gukorera hisanzuye ndetse n'ibyumba byo kurarwamo binini.

Inzu yo kwa muganga, aho dufite igitanda abarwayi baryamaho, mu gihe cyo gusuzumwa, ndetse ubona ko harimo n'ibishushanyo bituma umuntu abona ari heza.

Inzu yo kwa muganga aho abaganga bakorera ubushakashatsi harimo amarobine, ibikoresho byifashishwa, akabati ndetse n'igisenge gisa umweru.

Abanyeshuri ndetse bitegura kuba abaganga, aho baje kurebera hamwe mu nzu y'isuzumiro, basuzuma bimwe na bimwe mu byatera indwara ndetse n'ibyabasha kuba byakiza izo ndwara.

Inzu y'ikigo n derabuzima ndetse aho abantu bakirirwa hazwi nk'aho kwakira abantu baje bagana kigo nderabuzima baje

Umuntu w'igitsina gore wicaye ku musambi w'ikigina, aho afite mudasobwa imbere iri kumuha amashusho y'imyitozo ngororamubiri yakora yigana, afite n'ibikoresho byabugenewe.

Umuntu w'igitsina gore wicaye hasi mu muhanda, aho arimo akora siporo yambaye inkweto z'umweru ndetse n'imyenda y'umukara, aho yambaye indangururamajwi igenda imufasha mu kumva indirimbo zitandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye kunzamuka, aho avuye gukora imyitozo ngororamubiri, arimo aranywa amazi mu icupa rye, ndetse yumva imiziki mu ndangururamajwi ye.

Ibikoresho byifashishwa mu nzu z'imyidagaduro, aho umuhungu ari gukora imyidagaduro yo kugorora amaguru, bifasha mu kwirinda ndetse no kurwanya indwara zifata amagufwa.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ananura umubiri we yafashe mu kirenge mu bworo, aho yicaye ku musambi usa ubururu, yambaye imyenda y'impuzankano ya siporo aho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga, aho kino gikoresho cyifashishwa mu kumva imiterere y'umutima, aho muganga aba afite utuntu tubiri yashyira mu matwi, akajya yumva uko umutima wawe utera, yaguteretseho aka kandi gato.

Igikoresho gikoreshwa mu kuvura, yaba umuntu ufite amagufwa adakomeye cyangwa se umuntu waba ufite amazi mu maguru, aho bishyirwa mu mavi y'umuntu akabyambara nk'uwambara isogisi bisanzwe.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga aho umurwayi asuzumwa bijyanye n'iterambere hakoreshejwe ikoranabuhanga ryo kurebana muganga adahari, ukaba wavurwa neza kandi cyane.

Umuntu w'igitsina gore wicaye mu kibuga, aho arimo kugorora imitsi ye ahereye ku mugongo, imbavu ndetse n'amaboko akaba afashe amaguru ye mu buryo bwo kwihina.

Umuntu uri kunywa amazi, wambaye indangururamajwi zisa umweru, uvuye mu myitozo, ukora n'izindi siporo zigorora umubiri ndetse n'izifasha mu buzima busanzwe.

Igishushanyo kigaragaza bimwe mu bimenyetso ushobora kugira ukihutira kujya kwa muganga, harimo ibimenyetso byo guhinda umuriro, kumva ubabara ku matwi, kumva unyurwamo ndetse no kuba wumva ntabaraga.

Umubyeyi uri imbere y'umwana ndetse n'umubikira wihaye Imana wambaye impuzankano y'ababikira, aho baje gufasha abana mu kubaha indyo yuzuye ndetse banabafasha mu mibereho yabo myiza.

Umuntu wambaye ubusa hejuru agaragara ko ari umuntu w'igitsina gabo, aho yambaye utuntu tw'udupira tumufasha kugorora imitsi yo mu kuboko, mu gihe ari gukora imyito ngororamubiri.

Insimburangingo z'amaguru zambaye inkweto aho turi kubona umuntuyambaye insimburangingo imwe y'ukuguru, aho izi nsimbugingo zifashishwa ku bantu bahuye n'ibibazo byaba iby'impanuka cyangwa ibintuindi bitandukanye bakabura igice cyabo cy'ukuguru.

Umuntu w'igitsina gore wambaye impuzaankano ya siporo aho arimo arakora imyitozo ngororamubiri, afashe mu kirenge cye ndetse no ku mavi ye, aho arimo arigorora uko bikwiye.

Umugabo urimo kugorora umugabo mugenzi we, aho arimo aramufasha kugorora ingingo ze kugira ngo abashe kuba yagira ubuzima buzira umuze, aho uno mugabo yaba yaravunitse ingingo ze.

Umuvuzi urimo kuvura umuntu mu gice kizwi nko mu mavi, aho arimo arumva uko imitsi ye itera ndetse akamufasha kumubwira ibyo yakora mu kwirinda kwangiza imitsi ye.

Inkoni ifite akagozi kamanutse hasi ndetse n'umutwe usa kaki, aho iyi nkoni yifashishwa n'abantu bafite ibibazo byo kutabasha kugenda neza.

Ubwoko bw'imiti itandukanye harimo imiti yifashishwa mu kwisiga, mu kunywa ndetse no kwitera, ikiza indwara zitandukanye harimo ifite imifuniko isa icyatsi kibisi ndetse n'ifite iy'imyeru.

Umuntu w'igitsina gore wifashe mu mayunguyungu aho ubona ko yananiwe, akaba yari ari gukora imyitozo ngororamubiri izwi nko kwirukanka, yambaye inkweto zisa umuhondo.

Ikiganza gifashe ikivomesho aho kivomesha kiri gushyira amazi mu kirahure, aya mazi akaba ari kujyamo yizengurutsa bakaba bari kubisuka ngo bayanywe.

Umuntu w'igitsina gore wambaye impuzankano ya siporo, aho ari ku mukeka w'umukara ndetse akaba yambaye agapira gasa umweru, akaba arimo arigorora.

Abantu bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kwiga ibijyanye n'ubuganga, aho bafite uri kubigisha nka mwarimu, ubereka uko ibintu bikorwa yambaye impuzankano isa umweru.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye hasi mu muhanda, aho ari gukurura umubiri akorab imyitozo igorora amagufwa ndetse ubona ko yambaye n'inkweto zabugenewe.

Imashini igizwe n'umuzenguruko, isa umweruru ifite undi muzenguruko usa kaki imbere muri yo, iri mbere y'igitanda umuntu aryamaho, iyo agiye kwinjira mu mashini, icyumba cyuzuyemo amabara y'umweru.

Imiti ifungiye hamwe mu kantu kabugenewe aho dudafite amavuta ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abantu bagiye batandukanye.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ku mu musambi, aho arimo arareba kuri mudasobwa ye areba amashusho amwereka uko akoramo imyitozo ngororamubiri, yifashishije ibyuma bitandukanye.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi, aho arimo arasuzuma umurwayi ku bigendanye n'indwara zifata mu ntege, amwumvira nimba imitsi yiwe igikomeye cyangwa ifite ibibazo.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi, aho arimo aravura umugongo akoresheje imashini zigezweho, amusuzuma areba ko umugongo we nta kibazo ufite cyangwa n'amaraso atembera neza mu mubiri.

Umuntu ugiye muri siporo ngororamubiri, aho ari kwambara utuntu twabugenewe twifashishwa mu gufata neza amaraso, bigatuma ugenda ubobera neza mu mubiri wumva umeze neza.

Imashini y'ikoranabuhanga ikoze mu ruziga, ifite amabara y'umweru, ifite umwenge hagati, ifite udutara ku mpande zombi twaka haba ibumoso ndetse n'iburyo.

Umuntu w'umuganga wicaye ku ntebe y'umweru wambaye ishati ya orange ufite mudasobwa imbere ye, urimo urareba isi umubumbe w'isi imbere ye, uri mu cyumba gifite imashini z'ikoranabuhanga.

Umuntu wambaye imyenda isa ubururu, yandikishijweho n'amagambo y'umweru, urimo umukinnyi runaka ibinini bimufasha mu kongera imbaraga, mu gihe aba ari mu myidagaduro ye.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye asutamye, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kwifashisha isaha ye ngo amenye aho igihe kigeze.

Igikoresho cyifashishwa n'abafite ubumuga bwo kutabasha kugenda, aho iki gikoresho gifite amapine ane kikaba kigenda gisunikwa n'umuntu uri inyuma, kikaba gifasha abantu batabasha kugenda.

Umuntu ufite umupira, wambaye impuzankano ya siporo ndetse n'undi muntu uri kugendera mu kagare k'abafite ubumuga, wambaye impuzankananao nawe ya siporo isa umuhondo n'umukara.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho iyi myitozo ifasha mu kugorora amagufwa, gutuma umubiri wawe ugororoka cyangwa se ukarambuka ukabona ubuzima buzira umuze.

Indyo yuzuye yivanzemo ibiterambaraga, ibinyampeke, harimo amagi, inyama, imineke, inkeri, imizabibu ndetse n'ibikoresho byifashishwa muri siporo.

Umuntu w'igitsina gabo, urimo arakora siporo ngororamubiri, aho ari kugorora igice cye cy'ukuguru, apfukamye ku musambi aho yifashisha izi siporo mu rwego rwo gukoresha umubiri we ngo utaruha.

Inkoni ihagaze hasi ifite umugozi ku mutwe wayo ,aho mugi cucucucu cyayo yakoze ikimeze nk'akabazo ikaba iri mu ibara ry'umukara ndetse ifite utuzengurutso hagati yayo.

Imbuto z'ubwoko butandukanye harimo inkeri n'ibindi, imbuto ndetse zifasha mu gutuma igogora rigenda neza amazi, imitobe ndetse n'ibikoresho byo kwifashisha muri siporo.

Amategeko agena uburyo bakoramo imyitozo ngororamubiri, bimwe muri byo abuza andi ategeka abantu kwirinda kwitsamura ku karubanda, bababwira gukaraba, koza imipira bagiye bakozaho intoki.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'agapfukanwa k'umukara uri mu nzu ikorerwamo imyidagaduro, umugore uri ku bikoresho byifashishwa mu myidagaduro arimo arirukanka ndetse n'amamatera afata ibyuma kugira ngo bibashe guhagarara neza.

Umusore wicaye hasi wambaye ikabutura ndetse n'isengeri isa umukara, wifashe ku mubiri we ndetse no ku nkweto, wambaye isaha isa umukara.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umweru ndetse n'inkweto z'umweru, aho arimo kugorora amaboko ye, amaguru ye ndetse akaba ahagaze hafi y'ikiyaga.

Umuforomo urimo gusuzuma umwana, areba umuriro afite yifashishije imashini za ruzungu zigezweho ndetse na mudasobwa imuri imbere imwereka uko umuriro w'uyu mwana umeze.

Ikoranabuhanga risesuye ryo mu bitaro, aho bafite imashini zifashishwa mu kuvura abarwayi batandukanye, hakaba hari impuzankano isa ubururu impande y'imashini.

Imbuto zitandukanye zifasha mu mubiri mu buzima bwa buri munsi, aho zifatwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri, aho zifasha mu gukora siporo zitandukanye n'amagufwa.

Umuti ukoreshwa mu gukiza indwara zitandukanye aho uyu muti ushobora kuwisiga ahantu hose ufite ububabare buterwa n'ibibazo by'ibyuma byarambiranye, ibisebe byoroheje ndetse n'ububabare ahantu hose.

Amavuta akozwe mu gihingwa cyitwa igikakarubamba, aho ano mavuta yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo indwara zifata mu nda, za amibe ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye.

Agacupa gasa umweru gafite umufuniko ufite uturongo tumanutse ndetse n'utuzamutse, gafite umuzenguruko usa ubururu wiganjemo amagambo yanditseho, aho ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti iri mu ducupa dutandukanye tw'ubwoko butandukanye, aho ino miti ivura indwara zigiye zitandukanye, kandi ino miti ikaba ikozwe mu bihingwa bihingwa n'Abanyarwanda.

Amacupa y'ubwoko bugiye butandukanye harimo arimo imiti ikozwe mu bikakarubamba, umuravumba ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho yifashishwa mu gukiza indwara zigiye zitandukanye.

Amavuta ari mu ducupa dutoya dutandukanye ari mu macupa manini afite amabara nayo atandukanye, aho harimo umuti uvura indwara zitandukanye, uri mu gihingwa cyitwa igikakarubamba.

Ibihingwa bigiye biteretse mu gatambike keza k'agakarito, ni ibihingwa bifashishwa mu buvuzi akabati karimo imiti igiye itandukanye.

Umuti uri mu icupa ritoya ryegeranye ufasha mu gukiza indwara zigiye zitandukanye zo ku ruhu, harimo kuba watukura mu isura cyangwa se indwara zifata mu isura zizwi nk'ibiheri.

Amavuta yifashishwa n'abantu batandukanye mu koroshya mu biganza ndetse no mu maguru, aho akozwe mu bihingwa bya Kinyarwanda, akaba ari mu icupa rifite amabara y'icyatsi ndetse n'umweru.

Imiti y'ubwoko butandukanye, ifite amabara atandukanye, agasekuro gasekurirwamo ino miti, aho iyi miti ifasha mu buzima busanzwe, ikiza indwara zitandukanye zirimo zifata abakuze ndetse n'abato.

Igihingwa kizwiho gukiza indwara zitandukanye harimo izifata mu nda, izifata abangavu ndetse n'abakuze, aho gihingwa n'abaturage bisanzwe kikaba kifashishwa nk'ikimera gikiza indwara.

Umuvuzi ucuruza imiti ya gakondo, aho ari kuganirizwa n'ikinyamakuru, mu rwego rwo kunoza ubuvuzi gakondo, aho bari gufata ingamba z'uko imiti igomba kujya igenzurwa, mbere y'uko igezwa ku bayikeneye.

Igihingwa kifashishwa mu gukiza indwara zitandukanye harimo amibe, kubabara mu nda ndetse kikaba gikozweho n'umuntu ku mashami yabyo aho gihinzwe mu murima.

Abantu barimo guca mu mugezi bambaye ibikapu ndetse n'amakabutura, begera imbere hari umugezi uri gutemba kandi bakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Imiti ya gakondo iteretse hasi ku isima aho igiye irimo ubwoko butandukanye bw'amacupa harimo amacupa y'imyeru, harimo udukarito dusa umuhondo ndetse n'amashashi arimo imiti.

Ibinini bikozwe mu bihingwa bya Kinyarwanda, aho biba bikoze mu bihingwa bituma abantu bakira indwara zitandukanye, harimo inzoka, kuribwa ndetse no gucibwamo.

Ikarito iri mu mabara y'iroze, aho harimo n'uturongo tw'icyatsi, aho harimo umuti ukoze mu gihingwa gakondo, ufasha mu gukiza indwara zitandukanye.

Umuti uzwiho koza mu ntoki ukaba wakica udukoko tugiye dutandukanye dutera indwara, aho wifashishwa mu gihe cyo kwangiza cyangwa se kurwanya udukoko dufata muri virusi.

Umuti wifashishwa mu gukiza indwara zitandukanye aho uwukoresha awisiga kuko umeze nk'amavuta, ukaba ukiza indwara zirimo amibe, gucibwamo, ndetse n'indwara zose zigendanye n'inzoka.

Igikarito kiri mu mabara y'ubururu, umutuku, umuhondo kirimo umuti, umuti ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo amibe, inzoka ndetse n'umuvuduko.

Isabune yo koga umubiri wose ndetse no mu maso, amavuta yifashishwa akoze mu gikakarubamba ndetse afasha mu koroshya mu biganza aho aba akozwe mu bihingwa bya kinyarwanda.

Igihingwa kimeza aho kizwi ku izina ry'umuravumba kigiye gikiza indwara zitandukanye zirimo inkorora ndetse n'ibicurane, aho buri muturage wese ukibonye yishima kuko aba asezeye ku ndwara.

Igihingwa gihinze mu ndobo, mu ndobo irimo ifumbire, igihingwa gisa icyatsi cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara zo mu nda.

Umuti uri mu gacupa gasa umweruro uvura ibi bikurikira harimo; kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ikumirwa z'indwara zifata mu myanya ndangagitsina.

Agashashi gasa shokora, karimo imiti mo imbere yako igizwe n'ibihingwa, aho harimo umuti ufite amagarama ijana, wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'ubururu, aho abaganga bifashisha kano gacupa k'umuti mu kuvura abarwayi bagiye batandukanye, aho bizwi cyane nko kunganira ku muntu ufite amaraso make n'ibindi.

Ibinini bikorwa n'ikigo runaka, gikora amasaha makumyabiri n'ane mu minsi irindwi, kandi bakaba bakora ibinini bifashishije ibihingwa duhinga mu gihugu cy'u Rwanda.

Igicu kiganjemo umweru ndetse n'ubururu, igiti gifite amashami meza ndetse n'amababi aho kifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye harimo inkorora ndetse n'ibicurane.

Impurizahamwe y'amafoto agiye atandukanye, hagaragaramo indabo zigiye zitandukanye nziza zifite amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ibihingwa bigiye birimo bitandukanye harimo nk'ibinyomoro.

Imiti y'ubwoko butandukanye harimo iri mu ducupa y'ibinini, iri mu macupa maremare yo kwisiga agiye avura indwara zitandukanye harimo imiti imwe n'imwe ikozwe mu gikakarubamba.